Inzu, ni inzu zishaje ziri mu giturage, zikaba ari inzu ziriho ibyapa bya Airtel, hanyuma hakaba hari moto ihaparitse iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, ikaba ifite n'umuntu uhagaze iruhande wambaye umupira w'umuhondo, ndetse yambaye na kasike y'umutuku.

Kiyosike, ni kiyosike ya Airtel yanditseho ngo Airtel money, ikaba ari kiyosike iri ahantu ku nzira imbere y'inzu, bikaba iruhande rwaho hahagaze abantu bageze kuri bane, harimo n'abari gusuhuzanya barimo no kwiganirira nk'abantu baziranye, hafi y'iyo kiyosike hakaba hari igiti kinini.

Kuri iyi foto ndahabona ikibuga gishashe neza hakaba harimo abantu benshi, abenshi rero bakaba bambaye ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ryanditseho airtel hakaba hari amatente yanditseho airtel ndetse na furaya zanditseho airtel bigaragara ko ari airtel yaje kwamamaza ibikorwa byayo muri kano gace k'ahangaha.

Agakiyosike cyangwa se akazu, ni akazu kanditseho ngo "Do more with Airtel money", akaba biri mu mabara y'umweru, hakaba n'ibinyuguti binini byanditseho ngo "Airtel money", ni akazu gakorerwamo naba ejenti ba Airtel.

Umuhanda n'umuhanda w'amapave ariko uriho n'igice cy'amatafari ahiye, akaba ari umuhanda uri imbere ya mabotike, akaba kandi mbere yawo hari undi muhanda w'amabuye. Muri uyu muhanda rero w'amapave n'amatafari harimo umucuruzi cyangwa umugenti wa MTN akaba yambaye ijire ya MTN yicaye no mumutaka wa MTN

Agakiyosike ni agakiyosike ka MTN, kanditseho ngo "Momo everywhere you go MTN", hakaba hicayemo umukobwa wambaye jire yanditseho MTN, akaba gateye hafi y'umuhanda, umuhanda w'amapave urimo gucamo imodoka ya kwasiteri.

Hari abasore ni abasore bageze kuri bane, batatu muri bo bambaye amajire ya MTN bakaba bahagaze imbere y'inyubako, inyubako iparitseho n'izindi modoka ndetse na moto, aba basore bakaba bicaye mu mutaka ufite amabara y'umuhondo, amabara tuziko ari aya MTN Rwanda.

Iyi kiyosike, ni kiyosike ya mtn ikaba ishushanyijeho terefone ikaba ifite amabara y'umweru yanditseho ngo mtn ku kadirishya hakab hateretse na mare y'i ibara ry'umuhondo ndetse n'agatebe kicaraho akaba ari ibara ry'umuhondo iyi kiyosike kandi ikaba iri ahantu mu gipangu ikaba hicayemo umutipe.

Aka gakiyosike, ni agakiyosije ka eyateli kanditseho ngo de simati fone netiwake ndetse hakaba hariho imirongo ya eyateli, aka gakiyosike kakaba kari mu ibara ry'umweru ndetse n'amasiku ariyo mabara aranga eyateli.

Kiyosike ni kiyosike ya MTN, ikaba yanditseho ngo MTN mobayiro mani avelebo hiya, akaba ari kiyosike iri mu mabara y'umuhondo, harimo umutipe ukoramo, hanyuma inyuma ya kiyosike, hari abakiriya bahagaze ahantu ku muhanda ahantu hari ibiti bitari byinshi.

Kioske iri hano ni kioske iri ahantu ku muhanda, umuhanda wamapave uri imbere ya botike ikaba iparitseho moto iyo kioske kandi ikaba yanditseho Equity bank of kigali MTN ndetse na airtel bigaragara ko izo servisi zizo bank zose zitangirwamo.

Inzu, ni inzu y'ubucuruzi, ikaba yanditseho ngo ekwiti, imbere yayo hakaba hari agakiyosiki kandiditseho ngo mpesa, hakaba harimo umumama wambaye ijipo y'umukara, akaba arimo gusaba serivisi.

Kiosk ni kiosk ya mtn eraperi fish byose byanditseho aristati isize ibara ry'umuhondo harimo umu agent imbere ya hapoba harimo hari abagabo babiri bari bafite aba serivice kuko niha bakunda akandi kazi akakajya kucayini.

Agakiyosike, ni agakiyosike kari mu ibara ry'umuhondo, ibara rya MTN. Aka gakiyosike kaba karimo umugabo wambaye umupira w'ikinombe, uciyemo amabara y'umweru, akaba kanditseho ngo MTN mobile money available here, nyuma aka gakiyosike kakaba kari ahantu hafi y'inzu cyangwa se hafi y'umuhanda, ari n'amazu y'abaturage.

Ndahabona itente, ni itente riri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, ikaba iri ahantu ku musozi mwiza ushashe, hicaye abantu batandukanye bitabiriye ibikorwa rusange buri wese uri hano akaba afite ikigori mu ntoki arimo kugira igi

Kiosk ni kiosk ikoreramo banki zitandukanye ndetse hakaba hakoreramo na MTN izo bankk harimo bpr bank, urwego bank, equity bank, hanyuma ikaba iteye ahantu imbere y'inzu z'ubucuruzi ku muhanda w'amapave, hakaba harimo abakiriya babiri bari gusaba serivse.

Aha kuri iyi foto ndahareba abantu, abantu babiri bicaye imbere yabo hari imbuto zitandukanye harimo, wotameroni ndetse n'amatunda hakaba abandi babiri bahagaze ahagana hirya ugaragara neza ni uwambaye umipira w'icyatsi kibisi wikoze mu mifuka imbere ye hakaba hari amavuta hanyuma hakaba n'akandi kaboko gahinguka k'umuntu wambaye ishati y'umweru uri gutunga urutoki wambaye n'isaha.

Kuri iyi foto ndahabona abagabo, ni abagabo benshi biganje n'abagore ariko ni abagabo mbona benshi biganje bakaba bicaye ahantu mu gasambu, agasambu gateyemo itente imbere yabo hakaba hashashe n'itapi nayo isa n'ibyatsi itente bicayemo ifite amabara y'umuhondo, ubururu bwerurutse ndetse n'icyatsi kibisi kerurutse bakaba bicaye ku dutebe tw'umweru.

Aha hari urubyiruko ababyeyi ndetse n'abapapa bakaba bari ahantu kuri robine, robine y'amazi bose barunamye bahuriye kuri robine, bose bayishyizeho akaboko bigaragara ko baje gufungura ku mugaragaro iyi robe kuri aka gace.

Kuri iyi foto ndahabona intore, ni intore ebyiri ziteze amaboko zambaye imipira y'umweru, zikenyeye ibishora by'umukara biri no mu mamabara y'ubururu, bambaye amayugi, ariko hakaba hari n'abandi bantu bari hafi aho ngaho bari inyuma yaho, barimo barakina harimo n'abarimo barafotora.

Aha kuri iyi foto ndahabona abagabo benshi n'abasore biganje bambaye imipira y'ubururu, bahagaze ahantu hashashe neza, inyuma yabo hakikijwe n'ibiti, hakaba imbere yabo hateretse inanasi imibereho n'imico myiza, ariko akaba arimo n'umugabo umwe ufite mikoro fone ndetse n'ikayi mu ntoki usa nk'aho ari gutaga ibiganiro.

Itente ni itente ry'icyatsi kibisi, rikaba rikoresheje n'amabara y'umweru, harimo intebe z'umweru, hakaba hicayemo abantu batandukanye, bakaba barimo abadaso ndetse n'abandi bayobozi, bakaba bari mu nama, bamwe muri bo bakaba bafite n'udukayi barimo kwandika.

Ibikoresho bitandukanye by'ubukorikori harimo amapaniye, amasaro, ibinigi ndetse n'andi masaro atandukanye, ibishushanyo byo kumanika mu nzu, bikaba biri mu mabara agiye atandukanye, ni ibikoresho byaje kumurikwa ndetse n'abakiriya bari kugura.

Iyi tente, ni itente nziza kandi ngari iri mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse umuhondo n'umweru, ikaba iri ahantu hasashe neza harimo na agatapi. Hakaba harimo abantu batandukanye biganjemo abagabo hakaba harimo n'ababyeyi bacye, bakaba bambaye imipira cyangwa t-shirt z'ubururu n'umweru. Imbere yabo hahagaze umugabo uri kubaha ikiganiro witwa John.

Hano ndahabona abagabo bafite satifiketi bigaragara ko hari umwe muri bo bari kuyihereza yanditseho ngo ikemezo k'ishimwe hariho idarapo ry'u Rwanda, hanyuma inyuma yaho hakaba abandi bantu bambaye imipira y'ubururu abandi bambaye imipira y'imikara ariko hakaba bigaragara ko hari n'amatente ateguye neza harimo n'iradiyo y'umukara hejuru ku gikuta.

Icyapa ni icyapa kiri ahantu mu ikaritsiye yo mu giturage, akaba ari icyapa cyanditseho ibintu bitandukanye, kiri mu ibara ry'umweru, akaba cyanditseho mu ibara ry'umukara, hakaba handitse ngo repubulika y'u Rwanda, "koop y'abahinzi b'umuceri ya kazo", akaba ari abahinzi bibumbiye muri cooperative.

Bare cyangwa se akabari, ni akabari karimo inzoga nyinshi cyane zitandukanye, zirimo izikomeye, amarikeri, ndetse n'amashampanye n'izindi nzoga zikomeye, akaba ari ibare ngari, ikaba iteretsemo televiziyo ndetse hano ku kabati hakaba hateretse ikirahure.

Iki cyumba kigari cyane ni icyumba cya hotel cyangwa motel cyangwa restaurant kikaba kikaba ari icyumba kirimo imeza zitandukanye kiriho design nziza hakaba ameza agiye ariho n'utundi tuntu twiza.

Politiki iri hano ni politike icuruza amavuta atandukanye, ay'abantu bakuru ndetse n'abana haba harimo amavuta yo mu mutwe ndetse n'ayo kwisiga ku mabiri atandukanye, harimo za scala zaolive ndetse n'ibindi bikaba bi biteretse ahantu mu kabati.

Ni abamama benshi bari ahantu mu isoko, isoko ricuruje ibintu byiganjemo imboga zitandukanye harimo: inyanya, harimo caroti, hakaba harimo n'amasarisa, hakaba harimo n'amavuta y'amamesa biri ahantu mu isoko biteretse.

Aya mashashi ni abamo omo ,omo dukunze kwita sanirayiti, akaba ari omo nyinshi zirunze ahantu hamwe zikaba ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu hanyuma izo omo zika zigiye zanditseho ngo fifiti garamu neti.

Potar ni amavuta manini ari mu icupa rinini, riri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Akaba yanditseho ngo Vaseline blueseal pure petroleum jelly original. Akaba ateretse ahantu hateretsemo n'andi mavuta.

Aha hari umubyeyi; umubyeyi w'umucuruzi akaba ari kumwe n'umukiriya bigaragara ko agiye kumwandikira fagitire hakaba hari n'ibicuruzwa byinshi hakaba hari: umunzane, hari kese, hari imifuka y'akawunga, hakaba n'utundi dusashe tumanitse ahantu tw'amajyane n'utundi nibindi birungo aracuruje amabase n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ikibuga; ni ikibuga kicayemo abantu benshi, benshi muri bo bambaye amabara y'umweru, bakaba bambaye nutundi tuntu mu mutwe, bahagaze imbere y'inzu ndende igeretse inshuro ebyiri ifite nizindi nzu zishamikiyeho ku ruhande, iyo nzu ikaba isize amabara y'umuhondo ariko werurutse.

Umusirikare, ni umusirikare wambaye iniforume, akaba ari kumwe n'umupadiri wambaye ikanzu y'umweru ndetse irimo umwitero utukura, ndetse wambaye n'akagofero kari mu ibara ritukura, bakaba bahagaze mu kirongo cy'imbuga n'abandi bantu barimo hepfo.

Inyubako ni ndende cyane, ikaba ari inyubako kandi ngari ifite ibindi binyubako biyikikije ku ruhande, akaba ari inyubako iri ahantu hagari hasashishije umuhanda cyangwa se ikibuga cyifashishije sima, akaba ari inyubako y'urusengero ikikijwe n'indabo ebyiri ku muryango.

Ababyeyi ni ababyeyi benshi bari ahantu hari umusozi uteze neza urambitse, bari imbere y'amatente, ababyeyi rwose barimo barabyina banaririmba bahanitse amaboko, bigaragara ko bari kubyina imbyino za kinyarwanda.

Muri kiliziya, ni kiliziya katorika, hakaba harimo abakirisitu batandukanye bicaye bagiye mu misa. Imbere yabo hakaba hateretse ameza afite igitambaro cy'umweru ndetse n'amazi mu gipipiri, hakaba hari n'ibishushanyo ku gikuta imbere, igishushanyo kiri mukirere ndetse hakaba hari umusaraba imbere yabo.

Kuri iyi foto hafi yanjye ndahabona indabo, indabo ziteye ahantu mu gitaka, imbere y'izi ndabo ndahabona inzu ifite imiryango ibiri, ikaba iriho na kandagira ukarabe, hanze yaho hari umubyeyi uhagaze kandi inyuma y'uwo mubyeyi hari umuferege cyangwa se umugende w'amazi uzengurutse iyo nzu irahambitse uruganda.

Abagabo batatu bambaye amakanzu y'abapadiri cyangwa abasasaridoti bakaba bari kumwe n'umushumba wambaye ingofero ya gishumba ndetse n'inkoni ya gishumba, bari kumwe kandi n'abandi bapasiteri cyangwa se abapadiri babiri nabo bambaye amakanzu tu bakikijwe n'abaturage.

Hari inzu, ni inzu irimo abantu benshi bari mu birori, barimo kwibyinira, umwe afatanye n'undi ku kaboko, bamwe bakaba bicaye ahantu harimo intebe zitandukanye, hari izisa umweru ndetse n'izisa ubururu, hakaba harimo abantu kandi batandukanye, harimo ababyeyi, abamama ndetse n'urubyiruko.

Inyubako, ni inyubako ifatanye kandi ngari, ikaba yubatswe mu buryo butandukanye, hari aho yubatswe nk'uruziga, ahandi ikubakwa nk'inyubako zisanzwe, ikaba ari inyubako ikeye ikikijwe na jaride nziza ndetse n'utwatsi imbere yayo.

Aha kuri iyi foto ndahabona inyubako ndende cyane, ndende igeretse kabiri ikaba ikikijwe na jaride ikaba ifitemo umuhanda ushashemo amabuye muri uwo muhanda haraturukamo imodoka ariko hepfo yaho y'iyo modoka hari ibindi bipangu byinshi biyikikije, hanyuma inyuma y'iyo modoka hakaba hari amashyamba, hakurya hari ikirere gifunguye.

Icyumba ni icyumba kitari kinini kirimo igitanda k'ibara ry'umukara harimo matera ishashe neza n'amashuka y'umweru ndetse na kuvureri ufite ibara ry'umuhondo ariko werurutse hakaba hariho n'imisego myiza y'umweru hakaba harimo n'akabati iruhande rw'icyo gitanda akabati hafite ibikoresho bitandukanye ndetse hejuru y'ako kabati hariho purize icometseho ibintu.

Iki cyumba, ni icyumba kimeze neza kandi kigari, kikaba kirimo ameza atandukanye, harimo tereviziyo, hari intebe zo kwicaraho, ndetse hakaba harambuyemo n'umukeka cyangwa se tapi, hakaba harimo amakaro afite ibara ryijimye.

Iyi nyubako ni inyubako ngari, inyubako igererekeye inshuro zigeze kuri eshatu, ikaba ari inyubako ngari cyane rwose, iri ahantu hanini ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'uruziga kandi ikaba ikikijwe na jaride nziza ndetse n'agapasiparume ikaba iri ahantu ku muhanda.

Iyi nyubako ni inyubako ngari cyane igeretse inshuro zigeze kuri eshatu, ndetse ikaba yubatse ahantu harambitse heza, hari agasambu keza, imbuga itoshye, ikaba ari inyubako isa ni ikoze uruziga ndetse inyubako hafi yaho hakaba hari ikirere gisa n'ikijimye.

Aha kuri iyi foto ndahabona inyubako, iyi nyubako igeretse inshuro eshatu, iyo nyubako ikaba ifiteho imirasire hejuru yayo, imirasire yizuba hasi muri parking cyangwa umuhanda hari umugabo wahaparitse imodoka ariko hafi aho hakaba hari amasikariye akorotirijwe cloture z'umukara naho hapariritse imodoka hafi aho.

Iyi nyubako ni inyubako igeretse ubugira gatatu, aho iyi nyubako iri ahantu muri karitsiye, karotsiye irimo inyubako ndende rwose, ikaba ari inyubako yubakishije cyane cyane amabara ajya gusa n'umutuku yerurutse, niyo isize amarange, hasi hakaba hariho n'amarangi ajya gusa nk'iroze.

Aha kuri iyi foto hafi yange ndahabona aga pasiparume keza gacoze hanyuma hakaba hari n'undi mwanya uteretsemo intebe nziza ndetse n'imitaka bikaba byose bikikije amazi cyangwa se pisine iri aho hafi hakurya gato yaho ndahareba ibiti bikikije aho hantu ndetse n'ikirere gisa n'ikijimye.

Icyumba ni icyumba kirimo igitanda gishasheho amasuka meza y'umweru, imisego y'umweru ndetse na kuvurore hejuru, icyo cyumba kikaba kikoroteshejwe cyangwa se gipavomesheje amakaro, hakaba hateretse n'akabati gatoya iruhande rw'icyo cyumba.

Inyubako ni inyubako ndende igeretse inshuro zigeze kuri eshatu, ikaba ari inyubako, iri ahantu ku muhanda w'igitaka ikaba ifite porotaye isize irangi ry'umukara, kandi ikaba ikikijwe n'uturabo dukeya imbere y'amarembo.

Pisine, ni pisine nziza irimo amazi y'urubogobogo, ikaba iri ahantu hakikijwe n'ibiti byiza bizana amahumbezi, ikaba kandi izengurutswe n'umusenyi cyangwag se umucanga, kandi ikaba izengurutswe n'intebe zo kwicaramo.

Iyi salon, ni salon nziza y'insirimu, ikaba ifitemo toilete mo imbere, ifitemo salon yo cyangwa se uruganiriro na salle a mange cyangwa imeza yo kuriraho, hakaba hari ibirahurii byiza bifite ama rido meza ari mu ibara ry'umweru, hakaba harimo intebe zifite itapi, ndetse harimo n'akameza k'ibirahuri.

Ibikoresho n'ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, harimo ibikombe, harimo amasafuriya, amasahani, amateremusi, utuyungirizo amabase, amapanye, amapo, ibirushe amadishe ndetse n'amavimo yo koza ibintu.

Ndabona agatebe nkabona abantu bari ahantu hameze nkaho ari mu isoko nkabona ibicuruzwa, abikoreye ibikapu nkabona imodoka iparitse hafi nkabona nandi mazu hirya, imitaka, umugabo ufite akajerekani mu ntoki, umumama wikore agakapu ku umutwe ndetse n'abandi bantu begeranye hafi aho ngaho, nkabona ibicuruzwa biraraho hafi ku inkoko n'urutebe n'agatebe k'ubururu.

Uyu ni umuhanda, umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ikibuga nacyo k'ibitaka i kigali, icyo kibuga kikaba kiri imbere y'amazu y'ubucuruzi, icyo kibuga kikaba gitewemo ibikoresho bitandukanye, harimo ameza, imashini zidoda ndetse n'ibindi bikoresho bikoze mu biti.

Aha hari isoko mu isoko rirebera ahantu mu gisambu hasi mu kibuga, hakaba ari isoko ricuruza ibintu bitandukanyepaga ritwikiriye hano hahasangenda ndahabona abacuruzi bacuruza inkweto zifuzwe yahize abana z'abana batoya n'iz'abakuru hakaba hari n'abantu baje guhaha.

Iri soko ni isoko ritwikiriye ritwikirije shitingi rikaba riri ahantu ku gahanda k'igitaka hakaba hari abacuruzi bacuruza ibintu bitandukanye harimo ibikapu, imyenda, ibikapu byo guheka mu mugongo ndetse n'ibindi by'ibisashe, udutambaro two mu mutwe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Shitingi ni shitingi isutseho ibitunguru byinshi, hakaba hari n'umuzani iruhande rwaho, uriho na wo ibitunguru, bakaba bapimira mu tubase turi mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi ariko hakaba hariho na beterave na zo zikaba zirambitse kuri iyo shitingi.

Iri soko ni isoko rigari ririmo abaturage batandukanye bagiye bikoreye ibicuruzwa ku mutwe, bagenda babigurisha ndetse n'abakiriya bagiye batandukanye harimo n'uwo mbona ufite imyenda ku rutugu, ku mutwe, hari n'uwikoreye akabasi ku mutwe kariho ibicuruzwa bitandukanye.

Ikibuga ni ikibuga kinini cyane kidasashemo n'ikintu na mba kikaba gikorerwamo ubucuruzi, ubucuruzi butandukanye, hafi aha ndahareba abacuruzi bacuruje inyanya, intoryi urusenda ndetse n'ibitunguru, hari n'abakiriya barimo guhaha.

Kuri iyi foto ndahabona agahanda k'igitaka karimo abantu benshi ariko by'umwihariko nkabona umumama wicaye hasi kuri shitingi hanitse ibitunguru ku mifungo harimo n'ibindi ku kiro bigaragara ko ari umucuruzi w'ibitunguru.

Iyi shitingi irambuyeho imboga, ni imboga zitandukanye harimo karoti, ibitunguru ndetse n'imiteja ariko karoti zihari zikaba ziciye mu bice bibiri, hari izeze cyane zikaba zinahishije kandi hejuru hakaba n'izindi nyinshi zikiri nzima hakaba hari n'abantu bakikije aho ngaho.

Umuhanda w'igitaka uri ahantu hari inzu z'ubucuruzi hari n'ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kugenda.

Kuri iyi foto ndahabona sare, ni sare ngari ikaba irimo ameza yambaye ibitambaro by'umweru intebe zambaye ibitambaro by'umukara akaba ari inyubako isa neza cyane isize amabara meza irimo n'amatara meza ikaba iyo nyubako irimo n'amavaze meza arimo indabo zisa neza zigiye ziteretse ku mpande.

Umuhanda ni umuhanda wa kaburimbo uciyemo ibice imirongo uciyemo hagati uri mu mabara y'umweru harimwo umuntu uri kugenda kuri moto iriho umuntu w'umugabo wambaye y'umukara yambaye tisheti y'ubururu bwijimye hamwe n'umutuku ye ahetseho gaze.

Umuhanda ni umuhanda wa kaburimbo ukorotirijwe na korotire y'amabara y'umukara n'umweru, ukaba ukijwe n'akandi gahanda k'amapave k'abanyamaguru hakaba hari n'ikibuga gisashe ndetse n'ibiti hafi aho, harimo umu motari uri kuri moto uhetse imitwaro, ahetse umuzogo inyuma ndetse afite n'undi imbere mu mahembe, akaba yambaye casike zitukura.

Umuhanda, ni umuhanda wa kaburimbo, ukaba ari umuhanda uca ahantu ku musozi, umusozi ukikijwe n'amashyamba, uyu muhanda akaba urimo imirongo y'umuhondo hagati iciye cyangwa se ucagaguye, ukaba ukikijwe n'ibyatsi, ukaba kandi harimo umumotari, umumotari akaba ahetse umubyeyi uhetse mwana, bose bakaba bambaye kasike ibarinda.

Aha ni umuhanda wa kaburimbo, ukaba urimo imirongo icagaguye y' amubara y'umweru mo hagati, hakaba hakorotishijwe na korotire isa umukara n'umweru, hakaba harimo abagenzi babiri barisenga n'amakuru b'ababyeyi, hakaba harimo na moto iriho umumotari ndetse n'umugenzi bahekanye.

umuhanda wubutaka mu rusitiro ndetse amazu menshi haba harimokuru yumukobwa bwambaye cap yukuta kisi ubutu imbere iba bimo ariko abigima bari ba mucaye

Kuri iyi foto ndahabona umugabo we numu umugabo uri ahantu mu muhanda wa kaburimbo hafi y'utumenyetso abagenzi bambukiramo, uwo mugabo akaba atwaye igare yambaye ipantaro ya kake ndetse n'umupira w'ubururu uciyemo imirongo y'umweru, aragenda mu muhanda uri ahantu mu rusisiro imbere y'inzuzu z'ubucuruzi. Haparitse imodoka hafi aho.

Umuhanda ni umuhanda w'igitaka uca ahantu mu rususiro hakikijwe n'indabo, harimo umugabo utwaye igare, wambaye agatisheti k'umutuku ndetse n'inkweto zuburur nipantaro yumukara akaba ahetse ibitoki byinshi ku igare rye.

Hano hari moto ebyiri, moto imwe iriho umugabo winzobe n'ishati y'umweru, undi yambaye jire y'umutuku, hanyuma hari amabara ashushanyije mu rusisiro, mu muhanda wa kaburimbo hafi yabo hari jaride nziza ndetse hakaba n'urukuta cyangwa se korotire yubakishije amatafari ahiye.